Akaryango kariho utwapa twa MTN, aho hariho nimero umuntu ashobora kwishyuriraho, cyane cyane igihe ugiye kwishyura ufite amafaranga kuri telefoni. Izi ngizi bazita Momo pay, aho ushobora kwishyura kuri kode.

Umugabo ukora mu kigo k'itumanaho cya Airtel yambaye agapfukamunwa, ashize igikumwe ke hejuru, arimo kugenda agaragaza serivisi zitangwa n'iki kigo.

Abasore babiri bicaye munsi y'imitaka, aba ngaba ni abakozi b'ikigo gikora ibijyanye n'itumanaho mu Rwanda MTN, imitaka yabo irasa umuhondo ndetse abantu bicaye ni hafi yo ku muhanda.

Inyubako iba irimo umukozi w'ikigo k'itumanaho wo mu Rwanda Airtel, aho aba ari gutanga serivisi zitandukanye harimo gutanga amayinite, gutanga kuba wabikuza cyangwa se kubitsa amafaranga.

Abagabo babiri baje gusaba serivisi zigiye zitandukanye ku mukozi, cyangwa se umu ajenti ahangaha ushobora kuza gusaba serivisi za banki ya Equity, Urwego banki, Mobile money ndetse n'izindi serivisi zigiye zitandukanye.

Umukozi w'ikigo k'itumanaho cya MTN afite indangururamajwi arimo kugenda ashishikariza abantu kwitabira serivisi zigiye zitandukanye zitangwa n'iki kigo cya MTN.

Ahantu habereye ibirori hariho n'umugabo ufite kamera. Arimo kugenda afata amashusho, imbere ye hariho umugore ufite indangururamajwi, arimo kugeza ijambo ku bateraniye hano.

Umuhinzi w'intangarugero uhagaze hagati mu murima arimo kugenda yitegereza ibigori bye yambaye umwitero wa kinyarwanda ndetse afite n'agakayi mu ntoki arimo kugenda atembera umurima we kugira ngo arebe aho biri kwerekeza niba bizatanga umusaruro cyangwa se hari n'ibyonnyi.

Imbaga y'abantu benshi bicaye ahantu hamwe barimo kugenda baganira higanjemo abagabo, abagore ndetse n'abandi bantu bari kubagezaho ikiganiro na bo basangira ibitekerezo.

Imbaga y'abantu benshi yiganjemo abasore ndetse n'abagabo, barimo kugenda bafata agafoto k'urwibutso bamaze gukora ibikorwa bigiye bitandukanye, ni nyuma yo kuganira birimo kugenda bafata agafoto.

Ahantu harimo uduce tugiye dutandukanye twubatse neza, aho bamwe barimo kugenda bakira abantu babaganyi, hariho ahantu ari abagabo babiri aho imbere yabo hamanitse umunzani, hejuru hariho ibyapa biriho ubutumwa bugiye butandukanye.

Ikigo cy'icungamari aho umuntu ashobora kuza akabitsamo amafaranga, aha ni mu murenge sacco aho abaturage bo muri aka gace bashobora kuza bakabika amafaranga hano cyangwa mu gihe bakeneye kugurizwa bakaza hano bakabafasha.

Inzego z'abantu bagiye batandukanye, bicaye hamwe no kugenda basangira umusaruro wabonetse ndetse wiganjemo ibigori, ibi kenshi bikorwa mu gihe cy'umuganura mu kwezi kwa Kanama, igihe abaturage baba bagombaga gusangira, aribyo bita kuganura.

Abantu bari aho babikurira cyangwa se aho babitsa amafaranga, ni muri banki hariho abagabo n'abagore, abagabo umwe ndetse n'abagore babiri barimo gufata amafaranga.

Umusaruro w'ibigori birambitse hasi, barimo kubyumisha kugira ngo bizabemo umusaruro wo guterwa, ubwo n'uku bikuramo imbuto, ahangaha baba babyanitse kugira ngo bikomere kandi bashobore kubikuramo ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye.

Ubutumwa bwa mobile mani ahangaha barimo kugenda bamamaza serivisi bita biva mu mutima aha ngaha byanditse ku gitambaro gitatse ku meza gusa biragaragara ko ari imodoka ihagaze byanditseho.

Umugabo wambaye ikote ateruye igikombe cya kindi bahemba abakinnyi bitwaye neza, hanyuma imbere ye hariho abayobozi barimo kugenda bamukomera amashyi bigaragare ko ari igihembo bamuhaye.

Abantu barimo kumurika ibikorwa byiganjemo indabo ndetse n'utundi tuntu, twagiye dukorwa n'intoki, twiganjemo imitako ndetse n'ibindi byinshi. Ni abantu benshi kuko ashobora kuba ari mu makoperative, kuko barimo kugenda bagurisha.

Imbaga y'abantu benshi yiganjemo abagore, abagabo, bakoraniye hamwe, barimo kugenda bagezwaho ibintu bitandukanye, aha ni mu nama bateze amatwi uri kubaha ikiganiro.

Amabanki cyangwa se aho umuntu abitsa amafaranga ye, aha ngaha ni banki y'abaturage, aho kandi hari umukozi ushobora kubwohereza serivisi zijyanye no kubitsa cyangwa se kubikuza, gufungura konti ndetse ni muri banki ya Equit.

Amoko y'amacupa agiye atandukanye arimo inzoga z'amoko atandukanye, aha ngaha ni mu ibara aho hariho inzoga umuntu ashobora kunywa mu gihe yasohokeye hano hantu.

Amacupa y'inzoga zigiye zitandukanye ziganjemo za zindi zihenze bita marikeri, ahangaha ziteretse ni mu ma bare cyangwa se amahoteli, aho umuntu agenda asaba iryo akeneye cyane cyane bitewe n'icyo abasha.

Amokoza z'inzoga zigiye zitandukanye z'amarikeli zazindi ziba zihenze cyane, zikunze guturuka mu bihugu byo hanze, aha ngaha kandi biboneka mu mahoteli amwe akomeye, aho ugenda ugura iyo ushaka bitewe n'amafaranga ufite.

Ibirahuri bigiye bitandukanye, buri kimwe kirimo icyo kunywa. Aha ngaha abari mu kabari cyangwa se mu ibara, aho umuntu ashobora gufata icyo kunywa kijyanye n'uko yifuza.

Ni ibara aho harimo inzoga z'amoko agiye atandukanye izi ngizi ziri hejuru, harimo n'intebe ndende aho umuntu ashobora kwicara mu gihe arimo gufata agacupa yegereye umukozi uba hano uri gucuruza izi nzoga.

Amacupa agize n'ibiribwa bigiye bitandukanye bigizwe cyane cyane n'isaradini, mayoneze yifashishwa mu kongera ku biryo, igihe umuntu afite apeti nkeya cyangwa se ubushake bwo kurya bukeya kugira ngo arusheho kugira ubushake.

Ahantu batangira serivisi zo gukora ibikoresho byapfuye, biganjemo: amatelefoni, amabateri ndetse n'ibindi byinshi; ibikoresho by'ikoranabuhanga bidhobora kuba byagize ibibazo wabizana hano bakabikora.

Amavuta yo gusiga ushobora gusiga umwana y'igikotoro kandi ushobora no kuhasiga umuntu mukuru, amavuta bayita Amara aho ushobora kuba uyisiga igihe ugiye gutembera.

Ibicuruzwa bipfunyitse mu mashashi aho umuntu ubishaka aza akabaza nyir'iduka akamuhereza amafaranga ku giciro bumvikanyeho, yarangiza agatwara igicuruzwa hanyuma umucuruzi nawe agatwara amafaranga.

Abantu b'ingeri nyinshi barimo kugenda bagana mu bice bitandukanye by'isoko, aha ngaha ni isoko ririmo ibiribwa byiganjemo imbuto, imineke, avoka, pome ndetse n'imyembe.

Iduka ryiganjemo amavuta y'amoko agiye atandukanye, harimo ayari mu tujerekani twa litiro eshanu, eshatu ndetse n'udusu litiro.

Akabati gatoya karimo ibicuruzwa bikozwe mu ifarini babyita ibiraha, bigera kuri bitatu, ako hasi biragaragara ko nta kintu kirimo.

Iduka ririmo ibikoresho bijya bitandukanye byiganjemo ibiribwa ndetse n'ibindi bikoresho, imyambaro, inkweto ndetse n'ibindi byinshi, harimo umuceri ibirayi ndetse n'utundi dukoresho tw'uturungo tumanitse hejuru.

Iduka ririmo ibicuruzwa bikeya, hagaragara itetejeri gusa ndetse harimo abantu bari gucuruza ni umugabo ndetse n'umwana we, imbere kandi hariho ibasi irimo amandazi umuntu ashobora kurya mugihe agiye kunywesha icyayi.

Iduka ririmo ibiribwa byiganjemo amagi. Aho hariho umuntu utari kugaragara neza urimo kubicuruza. Aha ngaha uraza ukagura igi, ugasigaho umunyu ndetse n'ibindi.

Agakoresho kameze nk'agasanduku, aho umukiriya cyangwa se umucuruzi agenda abikamo utuntu tugiye dutandukanye. Aha ngaha kameze nk'akabati, ushobora gushyiramo ibikoresho bigiye bitandukanye mu gihe urimo gucuruza.

Iduka rigezweho, ririmo imyenda y'amoko agiye atandukanye, aho uza ukigera, uwo ubonye ugukwiye, warangiza ugacirikanwa, ukamutanga amafaranga, bitewe n'ayo baguciye, aha ngaha kandi imyenda myinshi, bagiye bayambika za manege.

Isabune yifashishwa mu kumesa, iri mu dupaki tugiye dutandukanye, aho umuntu ashobora kuyikoresha kugira ngo akuremo imyenda ye ibizinga cyangwa se igihe yanze kunoga.

Urusengero runini cyane muri zimwe zazindi za kiliziya, cyangwa se urusengero rwabakirisitu gatolika, ahantu ruri harasukuye cyane ndetse hateye sima hasi mumuhanda wa kaburimbo ikirere kirasa neza hejuru biragaragaza ko nta mvura ihari.

Ahantu mu rusengero aho hicayemo abakirisito bagiye batandukanye, bicaye ahantu hatatse neza, ndetse ni ahantu hejuru, aha ngaha ni abaje gusenga.

Abagabo b'abasilamu, barangajwe imbere n'undi mugenzi wabo utambaye imyenda isa n'iyabo, abandi bambaye imyenda y'ibara ry'umweru ariko ubayoboye urimo kugenda bigisha yambaye ikanzu ifite ibara ry'umukara.

Urusengero ruteguye neza, aho imbere hariho intebe zigiye zitandukanye, zitondetse ku murongo, aho abayobozi b'itorero cyangwa se abapadiri n'abapasiteri, bicara mu gihe barimo kugeza ubutumwa ku bakiristu bitabiriye, hariho kandi nahoho umupasiteri ahagarara mu gihe ari gusoma bibiliya.

Urusengero rurimo abakirisito bakeya, bamwe barahagaze, imbere yabo nta mupadiri cyangwa se umupasiteri uhari, bategereje ko aza kugira ngo abaheze ijambo ry'Imana maze bicuze ibyaha bagarukire Imana.

Imbaga y'abantu benshi bakoraniye hamwe, ahangaha ni mu rusengero kuko bamwe bamanitse amaboko bahimbawe, bicaye mu bucucike ni benshi cyane. Ahangaha ni ya matorero abafite abakristu benshi baba baje gusenga.

Icyumba cya hoteri giteguye neza aho gikikijwe n'intebe buri meza ndetse kandi ku meza hariho udukombe tugiye dutandukanye kuko ameza aratatse umukiriya aramutse aje hano aba yicaye ahantu hasa neza.

Inyubako zubatse neza ziriho imodoka ziparitse hanze. Imbere kandi hariho ubusitani mugihe butandukanye, imbere hariho ikigaragaza ko izi nyubako zimaze igihe gitoya zubatswe.

Hoteli ikikijwe n'amashyamba ndetse n'ubundi busitani bugiye butandukanye, ni mu masaha ya nimugoroba, aho urumuri ruri kumurika impande zose, ukaba ushobora kureba ibice bigiye bitandukanye, ibi biti bikikije hano, ni bimwe mu bituma abakerarugendo baza kurara mu mahoteli.

Inyubako yubatse neza ahantu hariho n'ahari ubusitani umuntu ashobora kwiyakirira mugihe yahasuwe, hariho imodoka iparitse imbere y'iyi nyubako.

Inyubako ndende ifite ibice bigiye bitandukanye, imbere yayo hariho ubusitani bumeze neza bw'umucaca utemye, ikirere kirasa nabi cyane biragaragara ko ari mu gihe k'imvura cyagihe ibicu biba bibuditse.

Icyumba muri hoteli gisashe neza, hariho uburiri ndetse n'ahantu umuntu ashobora kwicara mu gihe atari yagira ibitotsi cyangwa se mu gihe nk'umuryango bakirimo kuganira.

Abantu barimo gusangira ifunguro icyo kunywa ahantu muri hoteli, barimo kugenda banezerwa banyuzwe n'uburyo baganira ubu serivisi bahabwa, ndetse ibingibi bituma n'ubukerarugendo butera imbere, kubera ko amahoteli akurura ba mukerarugendo kugira babone aho baruhukira nyuma yo gusura u Rwanda.

Inyubako ndende ifite inyuma ahantu hari ikigega kirimo amazi, aha ngaha haratatse, hari ubusitani hanze, hagaragara nko mu mahoteri, aho umuntu ashobora kujya kurara cyangwa se akahacumbika.

Icyumba kirimo agatebe, kikamo n'ameza gato hariho uburiri busashe neza, hejuru hariho inzitiramibu ikoranye umuti ishobora kurinda umuntu umubu igihe aryamye.

Imbaga y'abasore n'inkumi barimo kugenda bavuza ingoma, aha ngaha ni mu mahoteri arimo kugenda asusurutsa abashyitsi, barimo hano cyane cyane abayobozi ndetse n'abandi bantu bakomeye.

Ahantu muri hoteli hariho amazi ni ukuvuga ngo aha ngaha ari pisine aho umuntu ashobora kogeramo mu gihe yatembereye hano, hakaba hariho n'intebe ushobora kwicaraho mu gihe uri kuhota akazuba kugira ngo umere neza.

Icyumba cya hoteli aho ahangaha hariho akabati ndetse hakabaho n'ahantu umuntu ashobora gukarabira intoki, hakurya kandi hariho ikirahuri ku buryo umuntu uri muri iki cyumba aba ashobora kureba ibiri kubera hanze.

Sale iteguye neza aho hariho intebe zigiye zitandukanye inyinshi n'izitukura ndetse hagati hariho ameza, intebe bagiye bazitera zikikije ameza aho abantu bashobora kwicara bakaganira bari kurebana.

Igitanda gisashe neza kiriho amashuka y'umweru ndetse hejuru harambuyeho akandi kantu k'amabara meza gatuma ubu buriri bugaragara neza ndetse hariho imisego ine kuko kino gitanda gishobora kujyamwaho n'abantu bagera kuri babiri.

Aho bagurishiriza ibikoresho bi bitandukanye harimo ibyiganjemo amapata, hakabamo ingufuri, hakabamo kandi udukoresho twifashisha mu kuyungurura umucanga, hariho imyuko, hakabaho amasahani n'ibindi byinshi.

Umugabo wambaye bote afite n'agakoni mu ntoki, yambaye ingofero aciye ahantu mu isoko hanitse imyenda y'amoko agiye atandukanye ndetse hari n'ibitenge.

Isoko ririmo abantu baje guhaha, ryiganjemo imbuto ariko hano hino hariho ibitoki bya bindi umuntu ashobora guteka, ibingibi mu kinyarwanda babyita ibinyamunyu kuko nta makakama bigira.

Umugore wicaye mu iduka ricuruza imyenda yiganjemo ibitenge cyane cyane imyenda y'abagore, ategereje abakiriya bagiye batandukanye haba abaza kudodesha cyangwa se abaguze iyamaze kudodwa, ahangaha kandi ni mu isoko rigizwe n'ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye.

Ubuhunikiro bw'ibigori bugizwe n'umusaruro weze, ugiye uri mu bihangari hejuru. Aho hamanitse ibigori bimaze kuma neza kugira ngo bizahungurwemo bikurwemo ifu nziza y'akawunga cyangwa se bikorwemo ifu kunyobwa y'igikoma.

Agace karimo iduka aho hanze harimo ibintu bigiye bitandukanye imifuka, amavuta ndetse n'ibindi byinshi. Hariho abantu barimo kugenda bagura buri kimwe bagiye bashaka.

Imyenda imanitse ahantu mu isoko yiganjemo amakabutura, utwenda tw'imbere tw'abahungu, imanitse kuri twa tuntu twabugenewe umuntu ashyiraho imyenda ku buryo tuyifata ikaba idashobora kugwa. Aha ngaha uraza ugatoranya uwo ushaka wahasanga ugukwiye ukawishyura.

Ihene ebyiri bazirikiye hamwe hariho iy'umukara ndetse n'indi ifite amabara agiye atandukanye irimo umukara n'umweru, harimo ikiziriko umuntu arimo kugenda azikurura azijyana mu duce tugiye dutandukanye kugira ngo zirishe.

Imbaga y'abantu benshi bicaye ahantu mu isoko. Abenshi biyoroshe imitaka, hari ibicuruzwa by'amoko agiye atandukanye byiganjemo ibiribwa. Hari ibijumba ndetse n'indi mifuka igiye itandukanye.

Abantu bagiye batandukanye bari ahantu mu isoko, barimo gufata inkweto bakagenda bazigera, harimo kureba izibakwiriye kugira ngo babashe kuzigura, n'abasore babiri bari kumwe n'undi musore, umwana muto.

Umugore urimo kuganirizwa bamutunze mikoro, aha ngaha imbere ye, harunze umusaruro mwinshi w'ibigori, barimo kubyanika kugira ngo byummye, uyu nguyu ni umuhinzi w'icyitegererezo.

Icyumba cyubatse neza kirimo amashusho agiye atandukanye amanitse hakabamo n'intebe zo kwicara ahangaha ni mu kabari aho umuntu ashobora kwicara akagura icupa cyangwa se icyo kurya.

Inyubako yubatse neza, aho hariho ahantu bagiye bategura ibyo kurya ndetse n'aho abantu bashobora kwicara mu gihe barimo kurya cyangwa se barimo gusangira n'abandi bantu aha ngaha.

Ahantu muri hoteli aho hariho ibiryo by'amoko agiye atandukanye uko bagiye babitegura hanyuma kandi hariho n'akantu karimo amasahani menshi cyane aha ngaha umuntu araza agafata isahani akagenda yarura umwe umwe n'abandi gutyo gutyo.

Umugore n'umugabo barimo kugenda baganira, bicaranye mumodoka umugore yambaye kuteri mu mumatwi, biragaragaza uburinganire aho umugore ashoborara nawe gutwara imodoka.

Umumotari urimo kugenda muhanda wenyine aciye ahantu hari urusengero rufite akayetaje karekare, arimo kugenda wenyine mu muhanda ndetse nta bindi binyabiziga birimo, ahangaha ni mu mujyi ndetse biragaragara ko hakoze neza.

Agahanda karimo amamodoka arimo kugana mu byerekezo bigiye bitandukanye, haparitse amamoto menshi, ategereje ko abantu baza kugira ngo babatware babajyana mu byerekezo bigiye bitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo, aho abantu bambukira. Aha ngaha ni mu muhanda aho harimo imoto irimo kugenda mu muhanda igeze aho abagenzi bambukira. Ihetse umuntu umwe.

Umumotari uhetse umuntu barimo kugenda mu muhanda wa kaburimbo hakurya hariho umuntu urimo kugenda n'amaguru, uyu mumotari arimo gukora amakosa abujijwe nko kugenda uvugira kuri telefone igihe utwaye.

Umumotari uheretse umuntu arimo kugenda mu muhanda ni umuhanda wa kaburimbo ndetse aho bari kunyura nta zindi modoka zihari, uretse umuntu umwe uri inyuma urimo kugenda aha ngaha nta bindi binyabiziga birimo kugenda mu muhanda.

Umumotari urimo kugenda mu gakaritsiye, hanyuma ku ruhande hariho umupolisi babandi b'abashinzwe umutekano wo mu muhanda, bazenguruka bareba ko ibintu ari amahoro, ndetse bajya batangira abamotari bakareba ko bafite ibyangombwa.

Umugabo urimo gusunika igare ririho ibitoki binini cyane arimo kubijyana mu mujyi kugira ngo bibashe kugurishwa, gusa hari igihe babikora gutya ari nk'umuntu wabahaye akazi ko kubibajyanira mu bice runaka kubera ko umuntu adashobora kubyikorera ku mutwe uko bingana byose.

Abamotari bashoreranye, barimo kugenda ahantu mu mujyi, harimo akajagari kenshi, imbere hariho imodoka ndetse umumotari w'imbere arahitse kandi ku ruhande rwe hariho na za modoka zigira amapine atatu, zikozwe nka moto ariko nanone zikitwara nk'imodoka.